Etajeri ni igikoresho cyifashishwa umuntu apanga ibintu bye, abacuruza farumasi zitandukanye ibyo bacuruza, ibicuruzwa byabo biba bipanze muri etajeri bikurikije ubwoko bwabyo, umuntu akabisanga muri etajeri ndetse n'ubucuruzi bundi bwose bukorwa hifashishijwe ama etajeri.

Mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage mu Ntara y'Amajyaruguru hubatswe posite do sante. Posite do sante ziboneka muri buri kagari kagize imirenge yo mu Ntara y'Amajyaruguru. Posite do sante ni yo itanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu warwaye.

Ubuvuzi bwa gakondo n'ubuvuzi bukoresha imiti y'ibyatsi by'umwimerere, ibi byatsi abavuzi baba barabiteye iruhande rw'aho batuye bakabicungira umutekano, bikazakoreshwa igihe babonye umurwayi warwaye.

Mu buryo bwo koroshya imigenderanire y'abantu, abaturage bishakamo ibisubizo. Aho bashaka ibiti bagakora urutindo rubahuza. Aho ngaho haba habaye umuganda rusange, abantu bagafashanya mu gutinda ibiraro.

Burya mu murima uwo ari wo wose umaze kuvanwamo imyaka, usanga harimo ibyatsi bya cyimeza bitandukanye. Twavuga ibyatsi by'umucaca n'ibindi byatsi biba bitandukanye biboneka mu murima.

Imboga z'ibikayote, inaha dukunze kwita ibidodoki n'imboga zikungahaye ku ntungamubiri ,iz'imboga zikunda kwera ahantu hose haba ku ruzitiro, ku mabuye cyangwa mu biti.

Bumwe mu buryo abantu bishakamo ibisubizo bakora imbago, aha twavuga mu bice by'amabuye aho badashinga ibiti ngo bifate, hifashishwa gutera umugwegwe, maze wasanga hateye umugwegwe ukamenya aho ubwawe burangiriye. Ngicyo ikimera cy'umugwegwe, cyifashishwa mu gukora imbago ino aha mu Majyarugur.

Ibimera byose bigira umumaro bitandukanye, twibuke neza ko ibimera byo mu mashyamba, bidufasha gukurura imvura bikaduha umwuka mwiza, aho biduha ugusijeni abantu duhumeka dukeneye, byo bikakira ogisijeni, ariyo myuka mibi ituruka mu bantu ndetse n'ibintu.

Bimwe mu buhinzi bw'ibiti byera imbuto ,twavugamo igiti cy'avoka .Avoka ni igiti giterwa, kikazamuka ,uko kizamuka kikagera igihe kikayanga ,kikazeramo imbuto, imbuto yitwa avoka iryoha cyane.

Mu buhinzi bw'ibihingwa, hariho igihingwa kera mu ntara y'Amajyaruguru, cyane cyane mu karere ka Musanze ,kegereye akarere ka Gakenke .Icyo gihingwa n'igihingwa cy'igisheke ,igisheke gitanga isukari.

Mu buryo bwo gutunganya isuku y'abakozi, yaba abakozi bakorera mu bigo by'amashuri, cyangwa se abakozi bakorera kwa muganga, imyambaro bambara y'akazi irameswa, ikanikwa hafi y'ikigo bakoreramo, ndetse igakomeza kubungabungirwa aho ngaho.

Iyo tuvuze ubusitani, cyangwa se tukavuga jaride iba ahantu mu rugo, iruhande rw'inzira cyangwa se mu kigo, ntitwirengagiza imicaca iterwa muri ubwo busitani, ndetse n'ibiti biterwa muri ubwo busitani.